Ubu ni uburyo bakoresha barimo barigisha abana b'incuke, bakabereka igishushanyo cya se ku buryo umwana ashaka kuba ekisayitedi akabasha kuba yakiga, bamwe bamwerekera bakina gutya, agapusi kafashe umupirera cyangwa se imbwa yafashe umupirara irawukina, ibintu nk'ibyo kugira ngo bafashe imyigire yabo.

Iyi ni seti ibikoresho biri hasi byose ni igikoreshwa cyangwa se bibikwa muri ino seti, ino bowate rero harimo hajyamo ino irate ndende y'ifashashwa mu guca imirongo zino ntoya zegeranye zisa nk'izinganamo nazo guca imirongongo poroca gatanu ibintu bize rulaba no guba bitanditse neza peso ni gushushanya hanyuma tipasi nayo ifasha mu guca ibizeru.

Iki ni ikigo giherereye Musanze, cyigisha abana bakiri batoya, bari muri pirimeri bava muri nasari, cyangwa se lowa karasizi bajya kujya muri pirimari, giheherereye i Musanze.

Irindi shuri rifasha abana bo muri primaire cyangwa se abana b'incuke, kuba bazamura ubumenyi bwabo mbere yuko bajya muri secondary, bakabasha kwiga bakiga amasomo social sayanse n'ibindi bigiye bitandukanye, muburyo bwo kuzamura ubumenyi bwabo bakabasha kujya muri secondary bameze neza.

Ibi ni bimwe mu bishushanyo byifashishwa n'abana b'inshuke cyangwa se bo muri pirimeri, kugirango ngo babashe kubibereka, babereke ibishushanyo bana bineyiminga, bavuge ngo iyi ni inkoko bayibone, bavuge ngo iyi ni ifi bayibone, bavuge ngo uru ni urukwavu cyangwa se ipusi babibone bibafasha mu myigire yabo.

REB: Rwanda basic Education Bord iki ni ikigo mu Rwanda, cyari gishinzwe amasomo cyangwa se uburezi mu Rwanda. Ubu ngubu cyasimbuwe n'icyitwa NESSA, gusa iki ngiki ntabwo ari cyo kigikora gusa cyasimbuwe, bagihinduriye izina bakita NESSA, ntabwo kikitwa REB. Cyari gishinzwe gusetinga ibizamini by'abanyeshuri ndetse kikanabakosora kikabatwara muyandi mashuri.